Urujya n'uruza rw'abaturage bazanye amatungo yabo magufi baje kuyateza intanga kugira ngo amatungo yabo abashe kororoka, kandi mu gihe gitoya babone umusaruro ndetse babone n'iterambere bitabagoye.

Mu bitaro bikuru niho abarwayi babonera serivise baba bataboneye ku mavuriro yo hasi, aho usanga amavuriro yo hasi yabohereje yakoresheje icyo bita taransiferi, maze bakaza ku rwego rwisumbuye gushaka imiti iborohereza cyangwa ibakiza indwara barwaye.

Aba ni abaturage baturuka mu mudugudu umwe. Bishyize hamwe bakora itsinda kugira ngo bajye barihuriramo, ku munsi bemeranyijweho maze baganire ku ngingo zigiye zitandukanye ariko zibafasha kwiteza imbere. Inama nk'izi ni ingenzi tuge tuzitabira twese kuko twungukiramo, inama zadufasha kwiteza imbere.

Imiti ituruka ku bimera, itunganywa n'abantu maze bakabasha kuyikoresha, bivura indwara zigiye, zitandukanye, harimo mburugu, rubagimpande, imigongo, inkorora ndetse n'izindi zitandukanye.

Aha ni kwa muganga turi mu cyumba aho baterera urushinge. Muganga ari gutera umukecuru ukuze urushinge ku kaboko, kugira ngo abashe kumurinda indwara zitandukanye arwaye.